Iduka rinini cyane bacuruzamo imiti itandukanye y'amatungo, harimo ibyo bagaburiraho inkoko, umuntu wicaye ategereje abaguzi bamugana kugira ngo abashe kugurisha abone amafaranga amubeshaho mu buzima busanzwe.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe ni abagabo baje kugira babahe ifumbire mvaruganda babashe gushyira mu myaka ya bo bityo umusaruro wa bo wiyongere, bashyize hamwe nk'abahinzi baraza bakabaha maze kugira ngo babone umusaruro wisumbuyeho.

Ni inzu nini ikoreramo ubucuruzi butandukanye, izize irangi ry'umuhondo, amadirishya rimwe rirasa ubururu, hari ibyapa bitandukanye byamamaza ibihacururizwa Statartime, Equit, Western Union, DStv n'ibindi byinshi bihakorera.

Umurima munini cyane bahinzemo shufureri nyinshi, ku ruhande hari ibiti bikeya by'ibigori, umudamu witinyutse bigaragara ko afite imbaraga kandi ashoboye, yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umutuku urimo amabara y'umweru, afunze imisatsi, ahetse imashini, arimo kugenda atera umuti ku mbuto ze kugirango zoye kwangirika.

Ishyirahamwe ry'abantu benshi bari mu gishanga barimo gusarura umuceri, ni byiza ko abagabo, abagore ndetse n'abasheshe akanguhe bakwishyira hamwe kugira ngo babyaze ibishanga umusaruro, bihingira imyaka itandukanye.

Abadamu bishyize hamwe bakora itsinda ry'ubuhinzi, barunamye, barimo kugenda basasira amashusho meza cyane bahinze. Bigaragara ko aribwo agitangira gukura, atari yera. Ni ibyiza ko twakorera hamwe, tugakora ibituma twiteza imbere nk'abadamu.

Abantu bashyize hamwe bigaragara ko bahuje umugambi, harimo abagore, abagabo, bari mu murima munini cyane uhinzemo urutoki, biragaragara ko bihangiye imirimo bafatanyije, umwe ahagaze imbere yabo yambaye impuzankano y'ubururu, arimo arabasobanurira buri kimwe bagomba gukora mu buhinzi bwabo.

Umurima munini cyane uhinzemo amashu, bigaragara ko atarera neza. Inyuma hari ahahinze ibigori byinshi. Umugabo wabigize umwuga, arimo kugenda atera umuti kuri buri mashu kugira ngo arwanye udukoko twamwangiriza.

Abahinzi babigize umwuga bishyira hamwe, abadamu n'abagabo. Imbere yabo hari uwunamye, bigaragara ko ari ubakuriye. Yambaye bote, ipantaro y'ubururu, ishati y'umutuku, ikote, arimo kubasukira ifumbire mvaruganda mu ndobo no mu ibase, kugira ngo bagende bakuza mu murima aho bahinze.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagabo, abagore. Bari mu murima munini cyane w'ibigori. Biragaragara ko bishyize hamwe, bakora umwuga wo guhinga ibigori kugira ngo nibyera basarure bajyana mu isoko, ibindi babihure bakuremo basheshe bakuremo akawunga cyangwa ifu y'igikoma.

Igishanga kinini cyane. Bakorera mu buhinzi bwa kijyambere. Biragaragara ko harimo abantu. Hirya yaho hari aho bashyira ifumbire kugira ngo bage bayitunda bayijyanamo. Bakoresha ifumbire y'imborera kugira ngo bagire umusaruro uhagije.

Abantu babiri, umugore, umugabo, imbere yabo hari igikapu ndetse n'umufuka, bakozemo berekana ko bikoreye ifumbi y'imborera yo gushyira mu mirima yabo bari guhinga. Ni ahantu hanini cyane bagize umwuga w'ubuhinzi w'ibiribwa bitandukanye.

Buri munyarwanda wese yagerageza kugira akarima k'igikoni gatoya. Ni umuntu ufite mu rugo hadafite ubutaka, bafashe ibase bashyiramo ibitaka, barangije bashyiramo ifumbire. Bateramo imboga z'ubwoko butandukanye. Buri wese yabigerageza tukirinda kurwaza bwaki za hato na hato.

Ahantu hari ibirundo byinshi by'ibyatsi bagiye batsindagira bashingamo ibiti. Biragaragara ko ari abahinzi babigize umwuga bari kugerageza gukora ifumbire y'imborera kugira ngo babashe kujyana mu mirima yabo, beze umusaruro ugaragara ko bafumbiye.

Umukobwa wicaye ku ntebe, imbereye hari ameza akoze mu giti, hariho mashini y'ikoranabuhanga, arimo arareba muri telefone, ategereje abakiriya bamugana ngo bagure imbuto zo kujya guhombeka, bazabone ibyo batera, rozwari zo kuvomereza igihe bahombetse kugira ngo imirama yabo ikure neza.

Abantu benshi bishyize hamwe bari mu murima munini cyane, biragaragara ko bamwe bafite imbuto bagenda bashyira mu byobo abandi bakabashyiriramo ifumbire y'imborera bafite mu ntoki, inyuma abasigaye bakagenda basubiranya ibyobo bashyizemo iyo mbuto, bakorera hamwe bakabyaza umusaruro ibikorwa byabo.

Rwiyemezamirimo w'umudamu, yaritinyutse yigirira icyizere, ahetse ipombo, ari mu murima we munini cyane w'inyanya arimo aratera umuti kugira ngo arwanye udusimba twamwangiriza imyaka, yambaye ingofero, ikote ry'ubururu, ni umubyeyi mukuru ariko ufite imbaraga, ushoboye.

Akarima k'igikoni keza cyane, gateyemo imbuto, imboga, ni byiza ko buri rugo ruciriritse rugomba kugira akarima k'igikoni, washyiramo imboga, ibitunguru, amashu, maze wakenera kurya imboga ukazikura hafi hakwegereye.

Umurima munini cyane urimo insina ntoya barimo gutera, bacukuye ibyobo bazishyiramo ku ruhande hari ishyamba na ryo ubona ko rikiri ritoya.

Urubyiruko rwishyize hamwe rw'abakobwa n'abahungu, bakora pepenyeri yo kutuburiramo imbuto zitandukanye, avoka, amatunda ndetse n'izindi nyinshi, barazifashe bazerekana ko ari nziza kandi bishimira ibyiza bagezeho.

Inyanya ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi, umugabo yaratinyutse akora ubuhinzi bw'inyanya, zitangiye kwera, zimwe ziratuye, izindi ziracyari ibitontomwa, ariko ari kwerekana ko azagira umusaruro mwiza cyane kubera yazitayeho.

Umurima munini cyane uteyemo n'ikawa yeze y'umutuku nziza, umuturage arayisoroma akayijyana ku isoko akagurisha ndetse bakayohereza no mu mahanga tukabona amadovize yinjira mu Rwanda.

Umurima uteyemo intogi nyinshi, urasa neza urasasiye, biragaragara ko zihinze mu buryo bwa kijyambere, zireze bategereje kuzisarura kugira ngo bazijyane ku isoko bagurishe babone amafaranga, waziteka ugakoramo isosi, ni nziza kuko zifasha mu buzima bwa buri munsi.

Umurima munini cyane uhinze ni icyayi, uratoshye umeze neza, icyayi ni cyiza turagisarura tukakigurisha tukabona amafaranga yo kwikenuza, ababigize umwuga bacyohereza mu mahanga bakabona amadovize.

Ikiganza kigaragara gifashe intete z'ubunyobwa, baburanduye butarera neza bwararumbye, ubunyobwa ni bwiza kuko tubukuramo isosi cyangwa se tukabukaranga tukabuhekennye tukabwakiriza abashyitsi bakanezerwa.

Umurima uteyemo insina nyinshi cyane zitoshye zimeze neza, zera ibitoki tugakuramo ibyo kurya, iby'imineke ndetse tugasagurira n'amasoko hanze kugira ngo tubashe kwiteza imbere, turwanya ubukene bwa buri munsi bwo mu ngo.

Umurima munini cyane uteyemo inyanya, ubona ko zitoshye zisa neza zikiri ibitontome zitarera, ni ingirakamaro kuko tuzikoresha igihe dukeneye gukora isosi cyangwa se tukaziryamo salade.

Abakobwa babiri bahagaze barimo guseka, bafite umunezero. Bigaragara ko bihangiye umirimo w'ubuhinzi bw'inanasi , ni nziza tuzikuramo ji yo kunywa, ndetse bakagurisha bakabona amafaranga yo kwikenura.

Umusore mutoya watinyutse yihangira umurimo w'ubuhinzi, ari mu mbuto yateye z'ibinyomoro nziza cyane zitoshye. Ni nziza zituma umubiri ukora neza, ndetse akagurisha akabona amafaranga yo kwikenura.

Igiti kinini cy'ipapayi, kiriho umusaruro ugaragara ko weze, ipapayi ni nziza iradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo wayiriye wumva uruhutse mu nda utagugaraye, ni umuti ukomeye wakoresha mu buzima.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu y'amaboko maremare. Ahagaze mu murima yahinzemo amashu meza cyane akiri matoya atangiye gukura. Hirya hakikijwe n'indi mirima yibigori ubona ko byakuze bigiye kwera.

Umurima munini cyane uhinzemo imyaka, biragaragara ko aribwo bakiyitera, itarakura neza ikiri ingemwe, hakurya hari umusozi muremure uriho insina, ibiti by'inturusu, amazu asakaje amabati.

Urutoki runini cyane. Ruraraye ntabwo rubagaye. Ku ruhande hari intabire bahinzemo udushyimbo dukeya. Ni byiza ko dukorera isuku ubuhinzi bwacu kugira ngo tubone umusaruro uhagije.

Umurima munini cyane uhinzemo ibirayi, ni ibyiza bibereye ijisho, bifite indabo z'umweru, bitangiye kuba bikuru. Ibirayi ni byiza kuko ni ibiryo bifite intungamubiri ikomeye, wakuramo ifiriti, wabitogosa, wabijyana ku isoko ukabona amafaranga yo kwikenura.

Avoka ni ari nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni nziza kuko tuyikoresha henshi hatandukanye. Wayishyira ku biryo ukumva unezerewe. Urayifata ukayitegura ku masalade atandukanye, ukabona bisa neza, abakuganye bakabona ko wateguye neza.

Umurima munini cyane uhinzemo ibitunguru byinshi biragaragara ko bitangiye kwera amababi yabyo atangiye gutukura. Umugabo wihangiye umurimo, aratinyuka arahinga ibitunguru kugira ngo abashe kwikenura, agurishe avanemo amafaranga akemure ibibazo.

Igishanga kinini cyane bahinzemo ibigori mu buryo bwa kijyambere. Ni ibyiza biratoshye biracyari bitoya birimo kuzamuka, barabisasiye kugira ngo bigire byisanzure. Ni byiza ko ibigori tubihinga kuko biduha akawunga ko kurya cyangwa se tugakuramo igikoma cyo kunywa.

Umurima munini cyane uhinzemo icyayi kimeze neza kiratoshye. Ni cyiza kuko wasubiramo ukagurisha ukabona amafaranga yo kukenura, bacyohereza mu mahanga bakabona amadovize bityo u Rwanda rwacu rugatera imbere, hakurya hari ishyamba ryinshi cyane.

Umurima munini cyane; ni mu gishanga, uhinzemo ibigori biteye ku murongo, bihinze neza bya kijyambere, birasasiye, bitangiye gukura kugirango ngo bizere babisarure. Ni byiza guhinga ibigori kuko dukuramo amafaranga tukikenura tugakuramo n'akawunga ko kurya.

Umusore muto cyane uhagaze mu murima we w'imboga, yambaye neza ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, ntabwo wamenye ko ari umuhinzi, yabigize umwuga yihangira imirimo y'ubuhinzi. Inyuma ye hari urutoki rwinshi cyane.

Umugabo uhagaze mu rutoki runini, yambaye ipantaro, umupira wa oranje n'ingofero, biragaragara ko yihingiye urutoki kugira ngo abone umusaruro mwiza, ni byiza bifite igitoki kinini cyane.

Umurima munini cyane uhinzemo inyanya zikiri ntoya bigaragara ko zikiri hasi cyane, ni umurima ufumbiye neza, ziteye ku murongo ni ukuri zibereye ijisho, babigize umwuga bakora umurimo w'ubuhinzi.

Igishanga kinini cyane bigaragara ko bahinzemo ibigori byinshi, byareze barabisarura ibisigaye byumiye mu murima, hino hari imyumbati iteye mu murima mwiza cyane, ni byiza ko twahinga imyaka myinshi itandukanye.

Ikigori ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, umuntu ufite ibigori ntabwo ashobora kwicwa n'inzara, arabigurisha, akabona amafaranga yo kwikenura, arabishesha agakuramo ifu akanywa igikoma, cyangwa akarya ubugari, ni byiza kuko ni intungamubiri ikomeye mu buzima bwacu.

Mu byatsi byinshi harimo udukwavu, ni ibyatsi bishashe byumye, rumwe ni runini utundi ni dutoya bigaragara ko ari rwo rwatubyaye, turimo turarya baduhaye ubwatsi, ni byiza ko tworora amatungo magufi kugira ngo ngo tubashe kwikenura byihuse.

Agakwavu gatoya kaba ku musozi kari mu byatsi byinshi karimo kurisha, kariruka cyane kuko ntiwapfa kugasiga, abantu iyo bari kugahiga bakoresha imbwa kuko arizo zibasha kwirukanka cyane zikaba zagafata bakabasha kuba bakajyana kugateka.

Ni umudamu watinyutse yihangira imirimo, yambaye imyenda y'umukara y'akazi, bote, afite ibasi y'ubururu mu ntoki irimo ibiryo agiye kugarurira amatungo ye inkoko, ziduha inyama ndetse n'amagi.

Igishanga kinini cyane gihinzemo imyaka bigaragara ikiri mitoya, hino hari umugabo wambaye bote, ipantaro y'ijinizi, ishati y'umutuku, afite isuka arimo guhinga kugira ngo abashe na we kwiterera imyaka izamuke neza.

Igishanga kinini bigaragara ko bahingamo imyaka itandukanye. Abantu barahagaze bitegereje umukobwa uri imbere yabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, arimo kubasobanurira uburyo akura ubuhinzi bwe, kugira ngo yiteze imbere nk'urubyiruko.

Abantu babiri bigaragara ko batinyutse bakihangira umurimo w'ubuhinzi, bunamye mu bishyimbo byera imiteja, barimo barasarura bashyira mu gatebo kugira ngo bajye kwimara ubukene, ni byiza ko abadamu natwe tugomba kwitinyuka tugakoresha amaboko yacu kuko turashoboye.

Mu gihe cy'ihinga, abantu bishyize hamwe, benshi batandukanye, harimo abagabo n'abagore. Biragaragara ko barimo gutegura aho bazatera imbuto zabo. Bishyize hamwe bakora ishyirahamwe, kugira ngo bajye bafatanya babashe kweza, bagire umusaruro utubutse.

Urubyiruko rwishyize hamwe barimo gukora akarima k'igikoni kugira ngo bafashe buri muntu wese kubona imboga zitandukanye. Inyuma yabo hari urutoki rwinshi bagiye kugakora bashyiremo imboga abaturage bo kurwaza bwaki.

Umunsi w'umuganda abantu benshi barawitabira, babyutse bari mu muhanda bahuje ubumwe bagiye gukora umuganda kugira ngo biyubakire igihugu cyabo, bafite amasuka, imihoro barimo kugenda baharura ibyatsi batema n'ibihuru biri hirya no hino.

Biragaragara ko ari mu kigo cy'amashuri, cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati, inzugi n'amadirishya bisize amarangi y'ubururu, hari ibyatsi byinshi, abantu biyemeje gukora umuganda, baje kubafasha kuhasukura, harimo abashinzwe umutekano.

Umugabo ahagaze mu murima munini cyane w'ibigori, biragaragara ko ashoboye kandi yihangiye umurimo w'ubuhinzi, ntabwo kuba wahinga bituma usa nabi kuko ni umusirimu, yambaye neza ipantaro, n'ishati y'amaboko maremare, arimo aragaragaza umusaruro amaze kugeraho ko yejeje ibigori byiza cyane.

Umudamu ufite akanyamuneza, yambaye umupira w'ubururu, ariyogoshesheje, afashe ku bigori, arimo kwerekana umusaruro yagezeho. Yaritinyutse, ntabwo yisuzuguye, yakuye amaboko mu mufuka arahinga, kugira ngo abashe kubona umusaruro uhagije, guteza imbere.

Umuco mwiza abanyarwanda twihaye wo gukora umuganda buri wa gatandatu wa nyuma y'ukwezi bishyize hamwe bagiye kubakira utishoboye ubwiherero kugira ngo be gukwiza umwanda hirya no hino, bamwe barakata ibyondo abandi barubaka, ni byiza kuko gufashanya bituma utishoboye nawe yibona mu bandi.

Urutoki runini cyane kandi rwiza rutoshye. Urabona ko harimo intabire bari guhinga bateramo ibishyimbo. Abadamu babiri bunamye bafite udusuka dutoya twabugenewe two guteresha imyaka itandukanye.

Abagabo babiri bari mu murima, barimo guhingira urutoki n'ibigori babagara, ni byiza ko iyo wahinze usubira inyuma ukajya kubagara kugira ngo imyaka ikure neza, harimo ibitoki by'imineke, ibyo kurya.

Abadado babiri bicaye kuri shitingi nini y'ubururu. Bafite inkoko ku bibero. Bambaye ibitenge. Imipira y'amaboko magufi. Barimo kugosora ibishyimbo babijonjoramo imyanda bayijugunya, ibindi babisuka kuri shitingi babyanika.

Inzu yubatse isakaje amabati, igaragara ko ariho abaturage biyemeje kugira ikusanyirizo ryo gushyiramo umuceri basaruye, umwe barawanitse hasi, uwundi bawushyize mu mifuka, bagiye gufunga kugira ngo bawubike ukorewe isuku neza.

Umudamu ukenyeye igitenge, yambaye umupira w'amaboko magufi, uteze igitambaro mu mutwe, afashe ku giti. Biragaragara ko, ari mu ntabire ikiri nshyashya, arimo gushyiramo ifumbire kugira ngo, abone uko ashyiramo imyaka, ibashe kwera neza.

Abantu batandukanye bishyize hamwe bakora umwuga w'ubuhinzi, bari mu murima munini cyane, bigaragara ko bashaka kugira umusaruro utubutse, bakagurisha bakabona amafaranga bagakemura ibibazo bafite bitandukanye.

Abakobwa babiri bafite amasuka barimo gukora akarima k'igikoni, bakoresheje uburyo biyumvamo kuko bafite ubutaka butoya, imifuka bapanzemo ibitaka byinshi nibarangiza barateramo imboga zitandukanye birinde bwake mu ngo zabo.

Urubyiruko rwishyize hamwe barimo gukora akarima k'igikoni, abakobwa n'abasore ni byiza ko twakorera hamwe kugira ngo dufashe abatishoboye tubahingira kugira ngo babone imboga n'imbuto bo kwicwa na bwaki.

Ikiganza gisa nabi, gifashe ibirayi mu ntoki, kigaragaza ko ari imbuto bagiye gutera mu butaka, hari intabire nini cyane, bakeneye gushyiramo ibirayi, bagahinga kugira ngo bazagire umusaruro mwiza.

Urutoki runini cyane; bahinzemo imishingiriro y'ibishyimbo, bashyiraho ibiti kugirango bitarandaranda hasi, haririmo amateke. Intabire bigaragara ko barimo guteramo iyindi myaka itandukanye.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati y'ubururu, iruhande rwaho hari ikigega kinini cyane gifata amazi yo ku mabati, hino, hari abantu bigaragara ko bari gutera igiti, kugira ngo birinde umwuzure wa hato na hato, bashyize hamwe, hepfo hari ibiti byinshi cyane, bakoresha batekera abanyeshuri.

Abadamu bishyize hamwe, barimo gutunganya umusaruro wabo w'ibigori, bashinze ibiti, bakajya banikaho, ibyumye bakabifata bakabitonora, kugira ngo babashe kubifungura babishyire mu mifuka bajye gushesha, cyangwa se bagurishe impeke.

Isoko rinini cyane rya kijyambere ricururizwamo imbuto, ziri ku gatebo. Hari imineke, indimu, amaronji, pome, ni ahantu heza cyane habereye ijisho, imbuto ni ingirakamaro mu buzima bwacu.

Abahinzi bari ahantu mu gishanga, ubona ko barimo gusarura inyanya zabo bahinze, zirasa neza, barimo kuzishyira mu mifuka kugira ngo bazipakiremo bazijyane kuzigurisha babone amafaranga kugira ngo bikenure, ni byiza ko twakwishyira hamwe tukihangira imirimo.

Ikusanyirizo rinini cyane ry'umusaruro w'ibigori, bashyiramo bamaze kubitonora neza, babihuye babikoreye isuku maze bakazabikuramo bagiye kugurisha, kugira ngo babone amafaranga bakemuza ibibazo bitandukanye, bakuramo kawunga n'igikoma cyo kunywa.

Sitoke nini cyane irimo imiceri itandukanye, iri mu mifuka y'umuhondo, umweru, umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, bigaragara ko yabigize umwuga mu gutwara imizigo itandukanye. Baramwishyura bityo na we akabona amafaranga yo kujya gukemura ibibazo byo mu muryango we.

Abantu babiri bari ahantu mu kibaya, umwe arunamye undi arahagaze, barimo gufunga imiba y'ibiti by'imyumbati, kugira ngo bajye gutera, imyubati ni myiza kuko havamo ubugari turya.

Urutoki runini cyane rukoreye isuku, rurasasiye, umugabo uhagaze iruhande rwabyo afite ibitoki byinshi yasaruye, arimo araseka, yishimira umusaruro mwiza cyane yakuye mu buhinzi bwe.

Ibirayi ni byiza mu buzima busanzwe bwa buri munsi, umuntu wejeje ibirayi abirunda hamwe kugira ngo are ku isoko abigurisha, dukuramo ibirayi byo guteka ifiriti, tukabirya bitogosheje, ikiraya ni cyiza kuko gifite intungamubiri ikomeye mu bugingo bwacu.

Igishanga kinini gihinnzemo umuceri mwinshi, biragaragara ko utangiye kwera urimo kuma, ni mwiza uradufasha mu buzima bwa buri munsi, turawuteka, tukagaburira abana bakishima, tuwujyana ku isoko, tukagurisha tukanisagurira bakaduha amafaranga adufasha mu bindi.

Imifuka myinshi cyane iri ahantu mu kibaya igaragara ko irimo imyaka, hirya hari inzu y'ubuhunikiro babikamo imyaka bamaze gusarura, umunyegare uri iruhande rwaho wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umuhondo, yicaye ku igare arimo kuritwara.

Igishanga kinini cyane bigaragara ko barimo kugihinga kikiri gishyashya, hari ahari intabire zitose cyangwa se aho bateye, barikoreye ifumbire bari gushyiramo bagiye guhinga umuceri, harimo amazi bagenda bavomerereza kugira ngo umuceri wabo wo gupfa.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'ubururu impande ari umweru, cyanditseho amagambo avuga ngo ku bigega, bigaragaza ko ari ikiyobora abantu icyerekezo bagezemo. Hirya y'aho hari ibiti byinshi, ibyatsi, umuhanda mutoya w'abanyamaguru harimo umudamu uteze igitambaro cy'umweru.

Umurima munini cyane bagiye basarura ibirayi babijugunya inyuma, bagakuramo ibinini, uduto bakadusiga kugira ngo bazakuremo imbuto yindi bazongera guhinga, ikindi gihe cyageze, cyangwa bakabifata bakabigurisha n'abandi bakeneye ubwo bwoko bw'iyo mbuto.

Abantu bishyize hamwe bahinga inka nyinshi cyane, harimo umugore ukenyeye igitenge, abagabo babiri barunamye bari kureba umusaruro wabo baturanyamo inyanya nziza, imbi bazishyira ku ruhande kugira ngo bajyane ku isoko bababashe kubona amafaranga bakuye mu musaruro wabo.

Urugo ruzitijwe n'ibiti byinshi imiyenzi, sipure bayikuramo imbaho zikomeye cyane ziramba, imiyenzi bayikoreshaga bubaka urugo rwa kera ariko ubungubu byarahindutse basigaye bakoresha amatafari ni iterambere twagezemo abanyarwanda.

Ni umurima munini cyane urimo urubingo, ibiti birebire n'insina. Urubingo barwifashisha bagaburira amatungo kuko ari byo byatsi biryohera inka cyane ukabona ziranezerewe, zigatanga umukamo uhagije.

Ibiti binini cyane biri ku muhanda birebire, hejuru haranyuraho insinga z'amashanyarazi, ibiti nib kuko bitanga imvura, umuyaga mwiza abantu bakabaho badashyushye, inyuma yaho hari insina zihateye nyinshi, inzu ihinguka.

Badushishikariza ko aho dusanze igiti cyarandutse duhita dushaka ikindi tukagishyiramo. Ishyamba ryinshi ry'inzitane. Ibiti ni byiza kuko bidukururira imvura, tukirinda ubutayu bwa hato na hato, tukabona umuyaga uhagije, abantu ntibicwe n'izuba.

Ishyamba ni ryiza kuko ridufasha mu buzima bwa buri munsi, ibiti byinshi by'inzitane bifatanye, bitanga umuyaga, bikurura imvura maze tukabasha kubona ibihingwa byeze neza kuko bitumugaye, bitanga umuyaga mwiza.

Akarima gatoya kari mu rugo karimo ibiribwa bitandukanye, imbuto n'imboga, bizengukishijwe n'amatafari ahiye, inyuma hari urutoki rwinshi cyane rurimo ibitoki bitandukanye.

Ishyamba ryinshi cyane ry'inzitane harimo ibiti bitoya n'ibikuru, turabizi neza ko ishyamba ari ryiza rikurura imvura, bityo ntitugire ubutayu, rigatanga umuyaga abantu ntibabure ubushyuhe bukabije.

Urutoki rwinshi rw'inzitane, ku ruhande hari ingarane basukamo imyanda kugira ngo bategereze ko izavamo ifumbire, avoka nini cyane iteye aho ngaho itangiye kwera, tuzi ko ari nziza ushobora kuyigurisha ugakuramo amafaranga cyangwa ukayirya, ikaba intungamubiri.

Urutoki rwiza cyane rukoreye isuku rusa neza, ruratoshye, rufite amakoma meza cyane. Bategereje ko rutangira kwera. Ni byiza ko twakorera isuku urutoki rwacu, rukera ibitoki byinshi kandi byiza.

Umurima munini cyane urimo ibyatsi, ibiti birebire ni ingenzi kuko bidukururira imvura ntitube mu butayu, bitanga umuyaga kugira ngo abantu bagire amahumbezi bo kuba mu bushyuhe bukabije.

Umurima munini cyane uteyemo ibikarubamba byinshi, ni byiza kuko bivamo imiti itandukanye bakoramo amavuta yo kwisiga, isabune zo koga, umuntu aragifata akagiteka, igihe yakumva arwaye inzoka kiramuvura, ni umuti mwiza kandi ukomeye.

Abantu bicaye mu isoko bategereje abaguzi baza kubahahira, iruhande rwabo hariho igisanduku kiriho ibitunguru byinshi, n'umunzani hagati, tuzi ko rero ibitunguru ari byiza, turabikoresha igihe tugiye gukaranga ibiryo kugira ngo biryohe, tukabikoresha mu ma salade atandukanye.

Igitebo kirimo indimu nyinshi z'icyatsi, z'umuhondo, tuzi yuko indimu zigira vitamine ikomeye mu buzima bw'abantu. Abenshi bazikoresha bazishyira mu cyayi, bazikoramo ji, cyangwa bagashyira mu mazi ashyushye bakanywa, kugira ngo babashe kugabanya ibinure biri mu mubiri.

Igiti kinini cya avoka gitoshye gisa neza, gifite utugingo dutoya dutangiye gututika, avoka ni nziza cyane kuko iri mu byongera intungamubiri, wayikoresha ukora salade, wayitegura ku meza abantu bakayirya.

Umukobwa muto cyane wambaye bote, ipantaro y'ijeans y'ubururu, umupira w'ubururu, ingofero mu mutwe yaritinyutse akora pipinyere yo gutubura imbuto zitandukanye cyanecyane imyembe arayikora abantu bakaze bamugana akabaha imbuto nziza cyane.

Ipapayi ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi, urayisoroma, ukayitara, yamara gushya ukayirya, bayiha abana batoya kugira ngo babashe kwituma, ivamo umuti ndetse bakuramo n'amasabune akoze mu mapapayi, iteye ahantu hari umurima urimo urutoki n'imboga.

Isoko rini barimo gucururizamo imineke iri ku gataro, hari ihiye igaragara ko bakiyitaze itarashya neza, hepfo hari imyembe iri ku isahani y'umunzani, amatunda, ni byiza ko dukoresha imbuto kugira ngo turwanye indwara za hato na hato.

Umurima munini cyane uhinzemo urusenda bigaragara ko ari ingemwe nziza zitoshye, zatangiye kuzana imbuto. Urusenda ni rwiza kuko iyo waruhinze urasarura ukagurisha ukajyana ku masoko atandukanye, ugakuramo amafaranga yo kwikenura.

Umudamu wicaye wambaye igitenge amambere. Imbere ye hari akabase gatoya, inini y'umuhondo irimo amatunda n'ibinyomoro. Ku ruhande ak'umutuku karimo ibibiringanya. Baricaye bategereje ababagana ngo baze kubagurira.

Ni byiza ko twagana amasoko tukajya gucururizamo. Bafashe intoryi bazirambika hasi, pavuro na karoti hasi ku butaka. Ntabwo ari byiza kuko dufite amasoko agiye atandukanye kandi tugomba kugira isuku tubacuruza ibintu bifite ubuziranenge.

Umurima munini cyane, ihinzemo ibitunguru, bigaragara ko bitangiye gukura. Ni byiza kuko tubikoresha ahantu henshi hatandukanye, usororma ibibabi ukabisekura mu isombe. Ibyo hasi ubikarangisha ibiryo, ukumva ko bihumura neza . wabikoramo salade cyangwa se ukajya kubigurisha.

Mu busitani bwiza cyane bubereye ijisho, hashizemo icyapa kigaragaza ko hari moteri, amashambure yo kuraramo, utubari ndetse na resitora, ni heza habereye ijisho, waharuhukira ukumva umerewe neza.

Isoko rinini cyane ririmo ibicuruzwa bitandukanye, abantu bicaye, bategereje abaza kubahahira, hari ibibokisi birimo, ibitunguru byinshi, hateretse n'umunzani, hirya hari utudobo tw'umweru, bagiye batandikamo inyanya, kugira ngo abaguzi baze bihahire.

Akarima gatoya karimo imboga zitandukanye. Kari mu rugo mo imbere. Ni byiza ko duhinga imboga aho dutuye kugira ngo twirinde kurwaza bwaki abana batoya. Zigira intungamubiri ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Abadamu babiri bicaye ku gasima, bakeneye ibitenge, bigaragara ko bategereje abakiriya baza kubahahira, bafite amabase arimo avoka baje gucuruza kugira ngo babone amafaranga bikenure, bakemure ibibazo biri mu ngo zabo.

Umurima munini cyane uhinzemo amatunda akiri matoya, biragaragara ko bayashingiriye ibiti kugirango azamuke afateho atajya hasi yazera akabora, ni umuntu witinyutse akora ubuhinzi buciriritse kugirango ngo yiteze imbere.

Igiti kinini cya voka, biragaragara ko gitangiye kwera, gifite uruyange ndetse n'imbuto ntoya, umusore bigaragara ko ari umujene, yaritinyutse abasha guhinga ubuhinzi bw'avoka nubwo butinda ariko ntabwo yacitse intege, yaragerageje azasarura agurishe yikenure.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'amaboko aciye, ahagaze mu nyanya ze yahinze, azifite mu ntoki, arimo kwerekana ko yejeje yishimira ibyo yagezeho, ari kumwe n'umwana we muto cyane unezezwa n'uburyo umubyeyi we agerageza kwikura mu bukene.

Igisanduku kinini bacururizaho mu isoko, gishasheho imifuka myinshi, hariho imboga zitandukanye: karoti, imiteja, puwavuro, inyanya n'ibitunguru, bagishyizeho kugira ngo bategereze abakiriya baze babahahire babone amafaranga.

Umuntu wihangiye umurimo, ahinga umurima munini cyane uhinzemo amatunda, yashinzemo ibiti azamuriraho kugira ngo wu kujya hasi akera nabi, umwana mutoya wagiye kureba uko babigenje kugira ngo nawe, abonereho urugero nakura azihangira umurimo, arimo arareba uko byeze.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, ifite imbere hari akabaraza, isakaje amabati, imbere yayo harimo ikibanza kinini cyane gihinzemo karoti, imboga. Harimo n'ipapaye nini cyane, hirya hari avoka. Ni byiza ko twagira akarima gahinzemo imbuto n'imboga.

Igitenge kirambuye hasi kirimo amababara y'umweru, umukara n'umutuku. Hejuru hariho imitesha mikeya. Ni imboga nziza, ushobora kuziteka uzivanze n'ibishyimbo mukaba mwarya, cyangwa se ukayitogosa ukavanga n'amakaroni, ugakora agasarade keza.

Umurima munini cyane uhinzemo ibirayi bikiri bito, barabisasiye, babikoreye isuku, ni byiza, umugabo uhagaze, arimo kwitegereza niba ibyo ari gukora, bizaha umusaruro unoze. Hirya ye hari ibigori, bitoshye byiza cyane.

Umuhinzi mworozi wabigize umwuga, ari mu nyanya ze nyinshi cyane, yambaye ipantaro, ishati y'igitenge, ingofero, afite imashini ari kugenda atera umuti w'inyanya ze yahinze nyinshi, kugira ngo arwanye ibyonnyi byakwangiza imyaka ye.

Amashu ni igihingwa cyiza cyane barayahinze barayasasira neza, aracyari matoya, n'imboga nziza, urarikata ukarigaburira abana ukabona bamerewe neza bishimye, abanyeshuri bakunda kuyabagaburira mu bishyimbo babatekeye.

Abantu benshi bishyize hamwe abagore, abagabo, bunamye mu muririma uhinzemo karoti barimo kuhakora isuku bahabagara, hiryara undi murima munini w'ibigori bishyize hamwe kugira ngo bakore ishyirahamwe babashe kwiteza imbere bakorera hamwe babone umusaruro uhagije.

Umudamu uhagaze mu murima munini w'ibinyoboro, birakuze, bitangiye kwera ariko ntabwo biratukura, arimo kwerekana yuko yitinyutse, akaba yarahinze imbuto kugira ngo ajyane ku isoko, izindi na we arye yumve ko umubiri we ukora neza.

Ibitunguru byinshi biri mu gisanduku biragaragara ko ari umuntu wejeje umusaruro akawurunda hamwe kugira ngo abashe gucunga umutungo we. Ni byiza kuko turabikarangisha tukarya ibiryo bimeze neza cyangwa tugakuramo amasalade y'ubwoko butandukanye.

Isoko rinini ririmo imbuto zitandukanye: Inanasi, ipapayi imineke. Tuzi ko imbuto ari nziza, ushobora gufata inanasi, ukayikuramo umutobe ukawukoresha mu buzima bwa buri munsi, ukakira abashyitsi bawe, bagataha banezerewe.

Umugabo uri mu murima wahinze imyaka itandukanye, amateke, intoryi, biragaragara ko ari kwegura intoryi yahinze ngo arebe ko zatangiye kwera, ziriho imbuto biragaragara ko umusaruro we ari hafi kuwubona, arimo arareba yishimye anezerewe ko mu minsi mikeya azaba atangiye gukora ku mafaranga.

Ni umurima munini cyane uhinze mu buryo bwa kijyambere, urasasiye, aho irimo imbuto za puwavuro ubona ko zitangiye kwera, tuzikoresha igihe turimo gutegura isosi cyangwa se tukazijya muri salade.

Akarima gatoya kari mu gipangu gahinzemo epinari nyinshi, tuzikoresha nk'imboga bisanzwe cyangwa se tukaziteka, tugashyiramo ibindi bintu, tukaza gukora potaje yo kunywa kuko ari nziza ku mubiri wacu.

Isoko rinini cyane bacururizamo imbuto z'ubwoko butandukanye, umubyeyi wicaye iruhande rwe hari umunzani usize irangi ry'ubururu, afite imbuto z'ubwoko bwose imineke, wotameroni, amaronji, inyembi, sositomate.

Avoka ebyiri zirambitse ku gitenge kirimo amabara atandukanye, umweru, umukara, umutuku n'umuhondo. Avoka ni nziza, kuko tuyikoresha ibintu byinshi bitandukanye. Wayishyira ku buryo ukayikoresha. Wafata sarade zitandukanye ukayirambikaho.

Isoko rinini cyane ry'imboga. Hari igisanduku bashyizeho karoti, pavuro, inyanya imboga za dodo. Ni byiza ko mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukenera kurya imboga kugira ngo tugire intungamubiri nziza, muri twebwe.

Umudamu wicaye ku kabaraza, yambaye kamambiri z'umuhondo n'ipantaro, imbere ye hari ibase y'bururu irimo imbuto z'ibinyomoro nyinshi, yashyize ku muhanda ategereje abaguzi kugira ngo agurishe, abone amafaranga yo kugura ibindi bintu bitandukanye akeneye.

Umurima munini cyane uhinzemo inyanya. Barazishingiriye kugira ngo zidakurukumba hasi. Umugabo, uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'umutuku arimo gusarura. Ari kumwe n'abana be bafite akabase bari gushyiramo, kugira ngo bajyane ku isoko bakemure ibibazo bafite bya hato na hato.

Umugabo wabigize umwuga, afite ibyatsi arimo gusasi inyanya, ni nziza cyane, yaritinyutse akura amaboko mu mufuka akora umwuga w'ubuhinzi n'ibintu bitandukanye, inyanya n'ibigori.

Umugabo wunamye mu murima munini w'intoryi arimo kwegura areba ko zatangiye kwera. Harimo izisa umweru ndetse n'izeze zikaba umutuku, yunamye arimo kwishimira ibyiza agezeho, hirya ye hari uwundi murima munini cyane w'ibigori.

Igisanduku kiri mu isoko cyo gucuruzaho, barambitse ku imyanya nziza cyane, bashyize mu tudobo dutandukanye, kugira ngo buri wese yisange ku mafaranga afite. Hirya hari karoti. Ni byiza ko dukoresha, inyanya kuko tuzikoresha isosi, tukazishyira no kuri sarade.

Umurima munini mwiza cyane uhinzemo ibigori n'inyanya, umugabo wambaye ipantaro y'ijingisi umupira w'umukara, afite ibyatsi arimo kugenda asasira buri hamwe kugira ngo inyanya zibashe gukura neza zitarambaraye hasi, ni byiza kwihangira imirimo.

Bakoze pepiniyeri itubura imbuto zitandukanye, biragaragara ko ari urubyiruko abasore bakiri batoya, barimo kugaragaza ko bageze ku ntego bifuje, berekana ingemwe zabo nziza cyane. Hirya yaho hari umurima w'ibigori munini.

Umudamu yihangiye imirimo. Yicaye mu isoko agiye gucuruza. Imbere hari imbuto zitandukanye: amatunda, imyembe, amaronji. Hirya hari inanasi na watermeloon. Biragaragara ko yakuye amaboko mu mufuka kugira ngo yiteze imbere.

Umurima munini cyane uhinzemo imbuto z'ibinyomoro, hari igiti bigaragara ko bagiteye imbere cyo kiriho ingemwe zitarera, ikinyomoro ni cyiza, wakirya bisanzwe cyangwa se ukagisarura ugakuramo ji ukabasha kwakira abashyitsi bagusuye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, biteretse ku gisanduku cyabugenewe cyo gucururizaho, imiteja iri mu ibase y'ubururu, beterave zo gukoramo ji, ziri mu ibase y'icyatsi, imboga ziri mu mufuka, hirya hari karoti, ni byiza ko dukoresha imboga mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Igishanga kinini cyane gihinzemo imyaka itandukanye: karoti, intoryi, ibigori. Ni abantu bishyize hamwe bahinga ibishanga kugira ngo two kubura ibiribwa bitandukanye mu masoko ya hano iwacu mu Rwanda.

Umurima munini cyane uhinzemo karoti, mu dutarasi tubiri dutandukanye, hirya hahinze sereri ndetse n'imigozi. Ni byiza ko duhinga imbogo z'ubwoko butandukanye, tukabasha kurwanya imirire mibi yaza mu bana bakiri batoya.

Umurima munini cyane uhinzemo imyaka itandukanye amateke, intoryi, hagati harimo umugabo wambaye umupira w'amaboko w'umuhondo, ingofero, afite ibase y'icyatsi arimo gusarura intoryi kugira ngo azijyane agurishe abone amafaranga amukemurira ibibazo.

Ababyeyi babiri umugabo n'umugore, biteje imbere bahinga umurima munini cyane w'intoryi, barimo gusarura berekana umusaruro wabo ko biteje imbere kandi bagiye kwikura mu bukene, umwana wabo muto cyane na we aranezerewe kubera ibyo ababyeyi be bagezeho.

Umurima munini cyane uhinzemo amashu yeze, umugabo wambaye ipantaro y'umukara umupira w'ubururu, arimo aritegereza yishimira ibyiza yagezeho, yihangiye imirimo yaratinyutse, ayasarura akayajyana ku isoko, bakamuha amafaranga akabasha gukemura ibibazo afite.

Inyanya nziza zirambitse ku meza zihishishe neza, tuzikoresha muri byinshi, tuzikoramo isosi itandukanye, turazihata tukazikoramo amasalade menshi. Ni nziza cyane ku mubiri wacu, wanazihekenya umubiri ukamererwa neza.

Isoko rinini cyane ririmo abantu bicaye bategereje abaza kubagurira, hari umunzani w'ubururu, hirya hari abantu benshi, imbere hari imbuto zitandukanye, wotameloni, imyembe, imineke, indimu. Umusore wambaye ekuteri mu matwi ari kwiyumvira umuziki.

Igishanga kinini kirimo imyaka mitoya iri kuzamuka, abagabo babiri bahagazemo bigaragara ko bagize umwuga ubuhinzi, bafite umupira muremure, barimo kuvomerera imyaka yabo kugira ngo iticwa n'izuba.

Umudamu wagize umwuga umurimo w'ubuhinzi, afite shufureri nziza cyane, ni imboga ziryoha, afite indobo y'umutuku arimo kugenda avomerera buri kimwe kugira ngo byere kumagara bibone amazi bikure neza.

Abagabo batatu bafite umupira munini cyane, bigaragara ko urimo amazi afite imbaraga, barimo kugenda bavomerera imyaka bahinze, ni byiza y'uko igihe cyose haba ku zuba tugomba guhinga tugakoresha uburyo bwo kuvomerera kugira ngo tubone umusaruro.

Umurima munini cyane uteyemo imyaka myiza cyane bigaragara ko itoshye imeze neza, harimo imashini nini yabugenewe kugira ngo ijye ivomera iyi myaka yere kwicwa n'izuba, usange yarumagaye, hakurya hari umusozi muremure uhakikije.

Moteri bashyize mu mazi, bafatishije shitingi, bavomeramo amazi kugira ngo bajye babasha kuhirira imyaka yabo, bashyiramo moteri ntoya, bagacomekamo umupira, barangiza amazi bakayanyanyagiza mu bigori byabo bahinze kugira ngo bigume bitoshye bimeze neza.

Igishanga kinini cyane gihinzemo amashu menshi, ateye mu buryo butandukanye, bukase nk'amatarasi. Umugabo uhagaze, wambaye ipantaro y'umukara, ishati irimo amabara atandukanye n'ingofero mu mutwe. Afite umupira munini cyane w'icyatsi, arimo avomera kugira ngo, izuba rye kumwangiriza imyaka.

Umurima munini cyane uhinzemo ibigori bitoshye bisa neza, harimo umugabo wunamye ufite rozwari mu ntoki arimo agenda yuhira kuri buri kigori kugira ngo cyoye kwicwa n'izuba, yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umutuku ndetse n'ingofero mu mutwe.

Umusore mutoya ari mu murima w'ibigori, arimo kugenda avomerera kuri buri ruhande kugira ngo imyaka ye yokuzicwa n'izuba, yokubona umusaruro mwiza umubereye, ni byiza ko twahinga dukoresheje ubu ubwenge bwacu, kugira ngo yaba ku zuba yaba mu mvura, tubone umusaruro uhagije.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu yayihinnye hasi, umupira urimo amabara atambitse, afite umupira munini cyane, arimo aravomerera imyaka ye yahinze y'amashu, itoshye imeze neza kubera ko ayitaho, akayiha amazi ntiyicwe n'izuba.

Umurima munini cyane uhinzemo imbuto z'ibinyomoro, urasasiye, biragaragara ko bawukoreye isuku usa neza. Umugabo uhagaze ufite umupira, ari kugenda avomerera izo mbuto kugira ngo ziticwa n'izuba.

Umurima munini cyane uhinzemo ibirayi, urimo abagabo babiri bafite imipira bagenda bavomerera imyaka yabo kugira ngo yere guhura n'izuba ngo yume, izakure nabi cyangwa ngo babone umusaruro utabashimishije.

Umusore wambaye ipantaro y'ijingisi y'ubururu bodaboda umupira w'umutuku, arunamye arimo kugenda asasira amashu meza yahinze, atangiye kuzamuka atarakura. Ni byiza kwihangira imirimo ugatinyuka, ubuhinzi ni bwiza na bwo bwaguteza imbere.

Yambaye isarubeti y'ubururu, ingofero mu mutwe, afite umupira munini cyane, arimo kuvomerera, shufureri yahinze mu murima munini cyane, hirya ye hari undi, yahinzemo ibigori byamaze kwera byumye.

Igishanga kinini cyane gihinzemo imyaka ubona ko itari yakura neza. Hagati hari ibyobo baciye bagenda basigamo amazi kugira ngo ajye agaburira iyo myaka iri mu gishanga. Ku muhanda hakikije ibiti byinshi cyane bitoshye.

Umurima munini cyane bigaragara ko bawuhinzemo ibigori ukaba barabisaruye, hepfo hari ikibaya kirimo ibyatsi ndetse n'ishyamba, hakurya hari umudugudu urimo amazu menshi meza cyane abereye ijisho, umusozi uhinguka hirya.

Ikibaya kinini cyane kirimo abantu benshi barimo guhinga, urabona ko ari abantu bashyize hamwe kugira ngo bahinge, batere imyaka yabo ku gihe kandi beze umusaruro utubutse. Ni byizayiza ko abantu bose bajya bifatanya bagakorera hamwe kugira ngo birinde ubukene bwa hato na hato.

Igishanga kinini cyane gihinzemo umuceri, aho ugaragara ko ukiri mutoya ukeneye gukura, umudamu wunamye mo, urimo kubagara, yufira, akuramo ibyatsi, harimo amazi menshi, atuma umuceri ubasha kwera.

Ikibaya kinini cyane, gihinze mu buryo bwa kijyambere, gikasemo amatarasi y'indinganire, ni uburyo bwo guhinga birinda kugira ngo imyuzure izitware imyaka bahinze iyitembane mu bishanga.

Ikibaya kinini cyane gihinzemo umuceri mwinshi ukiri mutoya, biragaragara ko bagiye bacamo udupande tw'umurima umwe umwe, harimo amazi hagati agenda avomerera umuceri wose, ni byiza ko twakwihingira umuceri hano iwacu mu Rwanda, ntitwirirwe tujya kuwushaka mu Mahanga.

Amazu ari ku murongo asakaje amabati akiri mashyashya, hirya hari ishyamba ryinshi cyane, hakurya urahabona imisozi igiye isumbana, bigaragara ko u Rwanda rwacu ruteye neza, rufite imisozi ibereye ijisho.

Hameze nk'umusozi ucuramye niyo mpamvu, bagiye bakatamo amaterasi y'indinganire. Ni byiza ko iyo ubona ko ahantu imvura ishobora kugwa igakunkumura ubutaka bwawe, ugenda ucamo amatarasi y'indinganire kugira ngo amazi ajye agenda yireka mu miringoti, avomerere ibyo bihingwa wahinze.

Inzu ziciriritse zo mu cyaro, zisakaje amategura, ziteye ibyondo, zifite utubaraza dutoya cyane, imbuga itariho ibyatsi, inyuma hakikijwe n'urutoki rwinshi.

Umurima munini cyane uhinzemo ikawa. Zimeze neza, zirasasiye hasi. Hariho ingemwe zitangiye kwera. Ikawa ni nziza, kuko tuyivanamo icyayi hano iwacu mu Rwanda, tukayohereza mu mahanga bakaduha amadovize.

Igishanga kinini cyane bahingamo imyaka itandukanye. Biragaragara ko harimo amashu, ibishyimbo ndetse n'ibindi bari kugenda bahinga ku ruhande. Abantu bishyize hamwe. Abagabo n'abagore. Bafite amasuka barimo guhinga. Hakurya yabo hari ishyamba rinini cyane.

Ikibaya kinini cyane gihinzemo imyaka itandukanye, ubona ko hagati bahinzemo umuceri, harimo amazi avomerera uwo muceri kugira ngo wo kwangirika, ku ruhande bahahinze ibigori, hakurya hari ishyamba ryinshi.

Ahantu hasa nkaho hari umusozi utari munini, baciyemo amaterasi y'indinganire kugira ngo babashe kuhahinga igihe k'imvura hatazajya hashoka hakajya mu gishanga, ni byiza ko twarwanya isuri duca amatarasi y'indinganire, tukihingira neza bya kijyambere.

Inka iri mu kiraro ifite ibara ry'ikigina n'umweru, ikiraro cyubakishije ibiti biteho ibyondo, ifite ubwatsi hasi irimo kurya, bayiziritse ikiziriko mu ijosi.

Inzu ifite umuryango ukinze, iteye umucanga, hanze hari inkoko nyinshi cyane zirimo gutora utuntu dutandukanye, ni byiza korora inkoko kuko ziduha byinshi, amagi tukagurisha tukikenura.

Umukobwa mutoya wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, arasutse, n'agapfukamunwa yicaye imbere y'ikiraro cy'ingurube bigaragara ko yahisemo korora ingurube kugira ngo yiteze imbere.

Ikiraro cyubakishije ibiti, ni kinini. Harimo ingurube imwe. Biragaragara ko ari umuntu wihangiye umurimo, yorora ingurube y'ubwoko bwiza bwororoka. Ibyara ibyana byinshi, bityo akabasha kwikenura akabona amafaranga yo gukoresha.

Ingurube iri mu kiraro cyayo cyabugenewe, cyubakishije ibiti. Ifite utwana tune tuyiri iruhande. Ni itungo ryiza kuko ryororoka vuba kandi uwifuza gutera imbere rimuha amafaranga byihuse.

Inka nziza y'umweru n'umukara iri mu kiraro cyubakishije ibiti hasi hari ubwatsi irimo kurya, inka ni nziza itanga amata yo kunywa, ni ingenzi ku buzima bwacu, barayibaga bagakuramo inyama zo kurya, nazo ni ingenzi mu buzima bwacu.

Umugabo uhagaze wambaye ipantaro, umupira, ingofero, imbere ye hari ihene ebyiri ziziritse ku giti, inyuma ye hari urutoki, ni byiza ko buri muturarwanda wese agira amatungo magufiya kugira ngo abone ifumbire ndetse n'amafaranga yo gukemuza utubazo dutandukanye.

Inka iri mu kiraro iryamye. Cyubakishije ibiti. Ariko ntago gikoreye amasuku neza. Iryamye hasi, inka ni nziza, itanga amata yo kunywa, amavuta yo kwisiga, wayigurisha ukabona amafaranga, wayikwa, bakaguha umugeni mwiza cyane.

Isake nziza cyane irimo gutora hanze, ifite ibara ryiza, ifite ibirokoroko. Ni nziza wayikoresha uyitura umuntu cyangwa se ukayijyana ku isoko ukayigurisha bakaguha amafaranga ukikenura.

Umudamu wambaye ibitenge by'umuhondo, ishati y'umweru irimo amabara, igitenge ateze mu mutwe, arunamye, arimo kugaburira ingurube ye mu ibasi y'ubururu, umwana muto cyane urimo kumufasha, yunamye areba uko iri kurya.

Ikiraro kinini cyane cyubakishije ibiti, gisakaje amategura, hari abantu bari imbere yaho bafite ubwatsi mu ntoki, umugabo umugore ndetse n'umwana, barimo baragaragaza ko banejejwe no kuba bari kugaburira inka zabo ebyiri, imbere yabo hari inkoko ziri kugenda.

Inka nziza ya kijyambere ihagaze mu kiraro gikoreye isuku, iri mu mabara y'umweru n'umukara, irimo kwitegereza, imbere yaho hari aho bayitegurira ubwatsi bwo kurya, kugira ngo yoye kwicwa n'inzara, inka ni nziza, iduha amata yo kunywa, amavuta yo kwisiga no kurya, ndetse ikaduha n'amafaranga igihe dukeneye kuyigurisha kugira ngo dukemure ibibazo.

Ikiraro kinini cy'inka cyubakishije ibiti, gisakaje amabati, hanze hari inkoko ihagaze irimo gutora imbere yaho, hari igiti kirekire cy'ipapayi urubuto rwiza cyane mu buzima, ibiti byinshi biharunze bakuramo inkwi zo gucanisha.

Ikiraro kitubatse neza kirimo ibiti byinshi, harimo inka ebyiri zifite ubwatsi zirimo kurya, ziri mu mabara y'umweru n'umukara, biragaragara ko nta suku ihari, inka imwe yazamuye amaguru ishaka kujya kona ibiri hejuru yayo.

Ikiraro kinini cyane kirimo inka imwe ya kijyambere, imbere yaho hari aho bayubakiye ho gushyira ubwatsi kugira ngo iburyo bufite isuku, inka ni ingirakamaro, itanga amata, abaturage bagakuramo ifumbire yo gushyira mu mirima kugira ngo babashe kweza, ibihingwa bahinze.

Ingurube iri mu kiraro cyubakishije ibiti, ifite utwana twinshi. Imbere yayo hari ikijerekani bayishyiremo ibyo kurya. Hasi harasa nabi. Ni byiza ko buri muntu wese ushaka gukira vuba yakorora itungo rigufi cyane cyane ingurube kuko ibyara ibyana byinshi, ukagurisha ukabona amafaranga yo kwikenura.

Urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bishyize hamwe, baratinyuka bihangira imirimo, borora inkwavu. Ni amwe mu matungo yororoka vuba, kandi atanga umusaruro wihuse, ifumbire iraza bagashyira mu mirima, bakabasha gukora n'ubuhinzi bwihuse bwa vuba vuba.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo, baricaye bafite ingurube z'umweru zisa, bigaragara ko ari icyororo babahaye kugira ngo bajye kwimara ubukene, uhagaze imbere yabo arimo abaha amabwiriza. Ni byiza ko umuntu yagira itungo rigufi, bityo akabona ifumbire ndetse akabona n'amafaranga yo kwikenura.

Ahantu hanini cyane bigaragara ko bahorera inkoko nyinshi, harimo ibyabugenewe bashyiramo ibiryo ziriramo, ni byiza ko buri muntu wese agerageza kwihangira umurimo, agashaka uburyo yakorora amatungo magufi, nk'inkoko, inkwavu, kugira ngo ajye abona amafaranga yo gukemuza ibibazo bitandukanye.

Icyumba kinini kirimo inkoko eshanu bigaragara ko bazigaburiyemo, ni umuntu wihangiye umurimo, yorora inkoko kugira ngo abone amagi yo kurya ndetse asagurire n'isoko ku buryo abona amafaranga yihuse.

Inkoko nyinshi ziri mu kibuga, biragaragara ko ari umuntu witinyutse akora umwuga wo korora inkoko, amatungo magufiya atanga umusaruro byihuse, tubonamo amagi yo kurya wabishaka ukanazibagamo inyama ukagurisha.

Inka y'umukara iri mu kiraro kitubatse neza, kiriho uduti, iri ahantu hatameze neza hari utwatsi dukeya. Ifite iherena ku gutwi. Inka ni nziza kuko iduha amata, tubashe kurwaza abana bacu bwacyi.

Inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti, umuveterineri wabigize umwuga yambaye umwenda w'ubururu, afite urushinge arimo kuyitera ayivura indwara yagize. Ni byiza ko dukurikirana inka zacu kugira ngo na zo zigire ubuzima bwiza.

Inkoko y'isake nziza cyane iri mu mabara atandukanye, ifite ikirokoroko cyo hejuru, irasa neza, wayifata ukayibaga ugakuramo inyama zo kurya, cyangwa ukayiha umuntu ukayimutura.

Ikiraro cyubakishije ibiti, gisakaje amabati. Inyuma hari imiyenzi myinshi, imbere hari n'inka y'umukara, yunamye iri kurya ubwatsi bayihaye. Imbere yayo hari ihene, biri gusangira. Ku ruhande hari akana gato kicaye, bigaragara ko kari kwitegereza.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere yinzu yabo. Biragaragara ko batishoboye. Bafite, inzu isa nabi. Umuryango urakinguye, kandi hari ikiraro Bororeramo, ihene zabo ebyiri. Ni byiza ko bakwiteza imbere, bahereye ku matungo magufi.

Abantu batatu, abagabo babiri n'umugore umwe, bahagaze imbere y'ikiraro kinini cya kijyambere bororeramo amatungo magufi y'udukwavu, bihangiye imirimo, kugira babone ifumbire yihuse, ndetse bakagurisha bakabona n'amafaranga yo gukemura ibibazo bitandukanye.

Umusore muto cyane uhagaze imbere y'ikiraro cy'inka, cyubakishije ibiti biteyeho ibyondo, ari imbere yaho azihera ubwatsi kugira ngo ibashe kurya, arahagaze ari kwitegereza, ku ruhande rwe hari ihene ebyiri, nazo zitegereje ko aziha ibyo kurya.

Akazu gatoya kubabatse ahantu kagenewe kororerwamo amatungo magufi cyane cyane udukwavu harimo utudirishya bagiye bashyiramo udusenyenge kugira ngo umwunga umwuka winjire tubone uko duhumeka. Ni byiza kururora amatungo magufiya kuko yororoka vuba.

Inyana nziza cyane iri mu mabara y'umweru, ibihogo, n'umukara, iragaragara neza, ifite amaso meza cyane, iri mu kiraro cyubakishije ibiti, bayisasiye, nta mwanda n'umwe uyirangwaho.

Ingurube eshatu za kijyambere zihagaze mu kiraro, zirimo kwitegereza, bigaragara ko ari umuntu wihangiye imirimo yorora amatungo y'ingurube, ni meza kuko abyara utwana twinshi yororoka vuba, bityo uwayoroye bigatuma abona amafaranga yihuse.

Abantu batatu, harimo abasore babiri umukobwa umwe. Yambaye ijipo yigitenge, umupira w'umutuku, igitambaro mu mutwe. Biragaragara ko, barimo kuganira ku ubworozi bwabo, bw'inkwavu, bareba uburyo, ziri kororoka banezerewe.

Abantu benshi bahagaze hamwe, harimo abagore, abagabo, bafite ingurube z'umweru baziritseho ibiziriko, biragaragara ko ari izo babahaye kugira ngo baboroze, na bo bagende bishakire ifumbire bashyire mu mirima ya bo, borore n'amatungo magufiya.

Ihene ebyiri ziri mu kiraro zifite amabara atandukanye umukara, umweru, ibihogo ziri mu kiraro cyubakishije ibiti, hasi bazishyiremo ibyatsi zirimo kurya baziziritse ibiziko mu ijosi tuzi yuko amatungo magufi ari meza mu buzima bwa buri munsi.

Umusore uhagaze mu nkoko nyinshi cyane, yambaye bote, itaburiya y'umweru, imbere ye hari inkoko nyinshi cyane bigaragara ko yabigize umwuga, yorora amatungo magufi y'inkoko, atanga amagi, cyangwa se akagurisha inyama akabona amafaranga yo gukemura ibibazo afite.

Ikiraro kinini cy'ingurube cyubakishije ibiti, harimo ubwoko bumwe bw'ingurube bw'umweru, irasa nabi ntago bayikoreye isuku, ariko ni nziza ku muturage usanzwe wo hasi kuko ibyara abana benshi, wagurisha ukabonamo amafaranga yakenura buri muryango ufite itungo rigufiya.

Ikiraro kiza cyane cyubakishije ibiti ubona ko ari gishyashya, harimo inyana nziza iri mu mabara y'umweru, ibihogo n'umukara, iryamye ahantu hashashe neza imbere yaho hari urugi rukinze kugira ngo idasohoka.

Inka iri mu kiraro gitoya cyubakishije ibiti, biragaragara ko bayishyizemo kugira babashe kuyikama, kuko ntibabasha kwisanzura, ifite ibara ryiza ry'umukara n'umweru, ni ibyiza ko twakwiyorora inka tukabona amata yo kunywa, tukabona n'ifumbire.

Umuntu wabigize umwuga yubaka inzu nini cyane, yubakishije amatafari ahiye, ashyiramo inko nyinshi z'imishwi z'umweru kugira ngo azorore azabashe kwiteza imbere, hagati harimo utubase tw'umweru, hasi umutuku ashyiramo ibiryo zirya kugira ngo zibashe gukura.

Ikiraro cyiza cya kijyambere cyubakishije ibiti gisakaje amabati, harimo inka ifite ibara ry'umweru n'umukara nziza cyane ibereye ijisho, umugabo yunamye imbere yayo yambaye ipantaro y'umukara ishati y'amabara avanze n'ingofero, arimo arayikoraho ahabugenewe ho kuyigaburira areba ko yahaze

Inka ifite amabara y'umweru n'umukara iri mu kiraro gisashe neza, iracyari inyana ntoya ntabwo irakura, inka ni nziza barayitanga bakabaha umugeni bakayikama bagakuramo amata cyangwa se bakayigurisha bakikenura. Inka ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umudamu wunamye wambaye ibirenge, ijipo, umupira, ateze igitambaro mu mutwe, imbere ye hari ibyatsi arimo kuburira ihene iziritse ku giti, inyuma ye hari inzu ituzuye neza, ni byiza ko buri wese yagira itungo rigufi mu rugo.

Umudamu uhagaze ukenyeye igitenge, umupira, igitambaro mu mutwe, ari hagati y'amazu menshi ameze nk'umudugudu, imbere ye hari ihene ebyiri yagaburiye ubwatsi zirimo kurya, ni byiza ko amatungo magufiya tuyagira mu ngo zacu, adufasha kubona ifumbire yihuse ndetse n'amafaranga yo kwikenuza, igihe hari icyo twifuje kugura kindi.

Agahene gatoya cyane k'umweru n'umukara bakaziritse mu biti byinshi, ikiziriko cyagafashe, kirakabangamiye, kabuze aho karishiriza, ni ibyiza ko twakorora amatungo magufiya, akaduha ifumbire ya buri kanya yihuse.

Umudamu ukenyeye igitenge, yambaye ishati y'umukara, imbere ye hari ihene yambitse ibiziriko mu ijosi, bigaragara ko azahuye agiye kuzizirika, inyuma ye hari amazu asize ibyondo, utwana duto cyane turimo kumwitegereza ibyo arimo.

Umuntu wabigize umwuga yubatse ikiraro kinini cyane ashyiramo inkoko nyinshi. Ku ruhande hari ibisanduku bigaragara ko harimo amazi zinywa. Inkoko ziri mu tubogisi dutandukanye. Hasi ni aho bashyira amagi zateye. Harimo menshi cyane bategereje kuyakuramo kugira ngo bajye kuyagurisha.

Umugabo n'umugore baratinyutse, borora bya kijyambere, bafite inka nziza cyane iri mu kiraro ifite inyana yayo y'umukara n'umweru, imbere yaho bahaziritse ihene eshatu, bigaragara ko boroye buri bwoko.

Agatama gato kaziritse mu murima, gafite ubwoya bwinshi, kigaraguye kariho ibyondo biteye ubwoba; hirya hari ishyamba ry'inzitane, urubingo ruteye, ni keza karigunze gategereje ko baza ku kubacyura.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze ahantu mu gashyamba. Harimo abagore, abagabo n'abana batoya. Baparitse igare ku ruhande. Imbere yabo hari ingurube nziza za kijyambere z'umweru. Bigaragara ko ari abantu bagiye koroza abandi kugira ngo na bo bagire amatungo magufiya bibonere ifumbire.

Inka ni nziza mu buzima bwa buri munsi, iradufasha muri byinshi, iduha ifumbire tukabasha gushyira mu mirima yacu tukabona umusaruro mwiza, iduha amata yo kunywa bityo imibiri yacu ikagira intungamubiri ikwiriye, itanga inyama zo kurya buri wese akisanga, turayigurisha tukabona amafaranga tugakenura imiryango yacu.

Ibishyimbo bitoya cyane birimo kumera bita imigondora, ni byiza bimeze neza biri mu murima utoshye bitegereje y'uko bazashingaho ibiti bikazamukiraho

Igishanga kinini cyane giteyemo ibigori byinshi, biragaragara ko, babisaruye ibisigayemo byarumye, ku ruhande hari umurima, barimo guhinga kugira ngo bateremo iyindi myaka mishashya, ibigori ni ingenzi barabigurisha bakabona amafaranga, barabisheshe bagakuramo akawuga ko kurya, ndetse n'igikomo.

Ikusanyirizo rinini cyane ry'ibigori, abahinzi babigize umwuga bashyiramo bakabimanika kugira ngo bategereze ko byuma, babihungure bakuremo ibigori byo kurya ndetse babisheshe bakuremo n'akawunga, kugira ngo buri munyarwanda yisange kuri buri kimwe.

Pikinyeri nini cyane bahumbitsemo inturuso z'ubwoko butandukanye. Ni byiza ko twagerageza gutera ibiti hirya no hino, haba ku mihanda ndetse no mu mirima kugira ngo twirinde umwuzure wa hato na hato.

Abantu bagerageza kwishakira ibisubizo by'ibibazo bafite. Bejeje ibigori ntabwo bafite aho kubyanika. Bashinze ibiti bakagenda bahambiraho ibigori bikumiraho, bakabikuraho bakabihungura bakabibika ahabugenewe, cyangwa bakabijyana ku isuko bakabigurisha.

Akarima k'igikoni gatoya karimo imboga z'ubwoko butandukanye, hirya biragaragara ko hari inzu ibamo abantu, imboga ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi, zituma abana bacu batarwara bwaki, kandi zifite umwihariko zitera mu mubiri wacu.

Intoryi ni igihingwa cyera vuba kandi gitanga umusaruro wihuse, mumurima bahinze intoryi nyinshi urasasiye umeze neza wazigurisha ku isoko bakaguha amafaranga ukabasha kugura ibindi ukeneye.

Umugabo uhagaze mu murima munini cyane yahinzemo ibijumba. Yambaye ipantaro ya kaki, ishati y'umweru. Arimo kureba uburyo yihangiye umurimo agahinga ibijumba. Ni ingenzi kuko biri mu bitera imbaraga, birwanya imirire mibi.

Umurima munini w'amashu ureze, ukikijwe n'urutoki rwinshi ku ruhande, ibiti bishinze, umusore mutoya afite ibase yasaruriyemo ari kwerekana ko umusaruro we uhagaze neza, inyuma ye hari ikibido ashyiramo amazi agenda avomeresha kugira ngo imyaka yo kugagara.

Inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti, ifite ibara ryiza ry'umukara n'umweru, biragaragara ko ari inka ya kizungu, ifite akanya gatoya cyane irimo konsa, umuntu wunamye ashaka kugakuraho kugira ngo katicwa n'amata.

Inka iri mu kiraro cy'ibiti isakaje ibyatsi, abagabo babiri bari imbere yayo, bayifashe bigaragara ko bari kuyambika iherena, ni ibihogo n'umweru, hasi isasiye ibyatsi byinshi.

Inka nziza ya kijyambere umukara n'umweru, abagabo babiri uwambaye umjpira w'umutuku ayifasheho ari kuyagaza, inyuma hari uwabigize umwuga wambaye pote z'umweru, isarubeti y'ubururu bigaragara ko ari kuyikora mu nda y'amaganga kugira ngo ayivure.

Aho bacururiza inka, ikibuga kinini cyane kirimo inka zitandukanye z'amoko yaba iza kijyambere, zifite amabara meza, zinogeye amaso, ni byiza ko tworora kuko inka ni nziza, urayitanga bakaguha umugeni, ukagurisha amata, ukikenura.

Ikiraro kirimo inka y'umukara, cyubakishije ibiti, gisakaje amabati, hari umugabo wicaye imbere y'aho bayihera ubwatsi, yambaye isarubeti y'ubururu, biragaragara ko arimo kubishyiraho umunyu kugira ngo irye neza.

Isoko ritoya bacururizamo ihene gusa, abaturage baje kwirebera iyo bahitamo kugira ngo bagure itungo rigufiya na bo bajye korora babona ifumbire ya hato na hato, bikenure bagurishe ibyo zabyaye, ni byiza ko twakwiyororera amatungo magufiya.

Inka iri mu kiraro cy'ibiti, imbere yaho hari aho bayiteganyirije kuyishyirira icyatsi irimo kuriramo, umwana muto cyane utagira ubwoba ahagaze imbere ayikozeho harimo kuyigaburira yambaye umupira w'umutuku, hakurya hatuye inkwi nyinshi cyane zifunze mu miba

Ikibaya kinini cyane, bigaragara ko bakoreramo ubworozi, harimo inka nyinshi zirimo kurisha, z'amabara atandukanye, umukara, ibihogo, umweru uvanze, harimo umugabo uhagaze wambaye bote n'isarubeti urimo kuzireba uburyo zirimo kurisha.

Inka iri mu kiraro cyayo, abagabo babiri bayiri iruhande, uwambaye bote wicaye uri kuyireba mu mabere ko nta kibazo ifite, uyifashe ari kuyagaza kugira ngo yo gutera amahane bayivure ikibazo yaba yaragize. Inka ni nziza kuko iradufasha mu buzima bwa buri munsi, iduha amata yo kunywa, amavuta yo kurya, tukayigurisha tukabona n'amafaranga.

Ikibaya kinini cyane kirimo inka nyinshi, bigaragara ko hagenewe kujyana inka zikajya kurisha nk'umusore uhagaze wambaye ikote, isarubeti, ingofero mu mutwe, arimo arareba uburyo inka zisanzuye zirimo kurisha, maze zikabona umusaruro mwiza zibona amata menshi.

Iduka rinini bacururizamo ibijyanye n'ubuhinzi, umusore wambaye isarubeti y'ubururu, afashe igikombe cy'umweru agaragaza ko icyo wa kwifuza cyose bagifite, harimo ifumbire mvaruganda, imbuto runaka wakenera guhinga.

Umusore uhagaze mu kiraro cy'inka, yambaye bote, ipantaro, umupira wamabara y'umweru n'umukara, ingofero y'icyatsi, afashe agacupa mu ntoki bigaragara ko arimo guha inka umuti kugirango ikire uburwayi ifite.

Ubusitani bunini cyane, buzitiwe n'indabo, hahagazemo abantu babiri, bafite imbwa bazanye gukingiza, umuganga wabugenewe wambaye umwenda w'icyatsi, afite urushinge agiye kuyitera, kugira ngo ayikuremo uburwayi yaba afite, igihe habaye impanuka ikarya umuntu ntihagire uburwayi akuramo.

Ingagi nini cyane yiryamiye mu byatsi, ubona ko iri kwitegereza nta cyo biyibwiye, ni nziza kuko na zo zimera nk'abantu zigira imiryango, uje gusisura, araza akinjiza amadovize mu gihugu cyacu, bityo igihugu cyacu kigatera imbere.

Agakende gatoya kuriye igiti. Karahagaze, karimo kureba, gafite umubiri mwiza cyane. Mu maso ho hari amabara y'umweru ndetse gafite umurizo muremure. Uwajya kugasura yanezerwa akareba ibyiza bitatse u Rwanda.

Agakenge gatoya cyane kari mu ishyamba, gafite ibara ry'umweru n'umukara, ni keza kabereye ijisho, ni byiza ko natwe abanyarwanda ubwacu twajya tujya kureba ibyiza bitatse u Rwanda kugira ngo twe kubiharira abanyamahanga, babimenye twebwe ubwacu tutazi ibyiza dufite iwacu.

Ni umucanga mwinshi cyane, harimo inzoka yizingiyemo ifite amabara atandukanye, ni ubwoko bubi cyane kuko ikuriye ntago wabasha gukira kuko igira ubumara bwinshi, tuyirinde nituyibona tuyigendere kure.

Agakena gatoya kari mu byatsi byinshi, karahagaze karimo kwitegereza, gafite ibara ry'umukara n'umweru, ni keza kabereye ijisho, ni byiza ko natwe twajya dusura ibyiza bitatse u Rwanda, tugatanga ayo mafaranga makeya bateganyirije abene gihugu, maze tukamenya ko dufite natwe ibibera iwacu mu Rwanda byiza.

Mu ishyamba rinini ry'inzitane hariho akanya gatoya gahagaze ku giti, gafite ibara ryiza cyane, umusatsi ku mutwe, kabereye ijisho, gakuruba abakerarugendo, iyo baje kutureba duhinduranya amajwi dutuma banezerwa.

Agakende gatoya kicaye mu ishyamba, mu biti byinshi. Karasa neza kabereye ijisho. Gafite ibara ry'umukara n'umweru, karimo kwitegereza. Gakurura abakerarugendo, bakaza mu gihugu cyacu, kureba ibyiza bitatse u Rwanda, bakadusigira amadovize, igihugu cyacu kigatera imbere.

Ingagi iri mu ishyamba ry'inzitane, ifashe ku giti, iri kumwe na ngenzi yayo, ni nziza, zikurura ba mukerarugendo, bategura kuzita amazina, abantu bakaza ari benshi bakinjiza amafaranga, baza kuzireba abanyamahanga bakinjiza amadovize mu Rwanda rwacu.

Ishyamba rinini ry'inzitane ririmo inyoni ihagaze ku giti, ibereye ijisho, ni nziza, ifite umurizo muremure, iri mu mabara atandukanye: umukara, umutuku, ubururu, umuhondo, ifite agasunzu ku mutwe, ni byiza ko twayasura, tukajya kwirebera ibyiza bitatse u Rwanda.

Ibiti byinshi by'inzitane birimo akanyoni keza gafite amabara atandukanye gahagaze umukara, icyatsi, umutuku, ubururu ndetse n'umweru, gakurura abakerarugendo baje kumva ayo majwi meza yako bagaseka bakaruhura mu mutwe.

Imbwa ihagaze mu byatsi byinshi. Irahindukiye, iri kwitegereza. Abantu benshi bayikundira ko bayisiga mu rugo, ikabarindira umutekano w'amazu yabo. Ntawapfa kuhavogera ngo ahinjire aze kwiba uko yiboneye, azi ko ihari.

Ingagi yurire ijya hejuru mu giti, ifatishije amaboko yombi, biragaragara ko irimo kwitegereza, ni imwe mu zikurura ba mukerarugendo baje kwita izina cyangwa se gusura bareba ibyiza bitatse u Rwanda.

Imbwa batoje umwuga wo guhiga. Iri mu byatsi, irimo kugenda, ifite agakwavu gatoya, bigaragara ko yakirukankanye mpaka igafashe. Igashyiriye, abayitoje guhiga kugira ngo, bayishime ko yakoze umurimo wayo neza.

Inyoni ihagaze mu giti kirekire cyane. Gifite amababi atoshye. Ifatishije amaguru yayo. Ifite umurizo muremure cyane, amabara atandukanye: umukara, umuhondo. Ku munwa ni umutuku. Ifite agasunzu keza k'umukara hejuru. Ni nziza kuko ibereye ijisho.

Agakende gatoya kari mu ishyamba, bigaragara ko ari ryinshi, kari mu mabara meza cyane umukara n'umweru ubwoya bwinshi, gafite icyatsi mu kanwa kari kurya, ni keza ku kuko gakurura abakerarugendo bakaza kureba ubwiza bwako, kwita izina bakanezezwa n'uko tumeze.

Ishyamba rinini ry'inzitane ririmo inyamaswa ebyiri zihagaze bakunda kuzita udusumbashyamba ziri mu mabara meza abereye ijisho, zakurura abakerarugendo bakaza kuzireba uburyo zibereye ijisho maze bagatanga amafaranga bityo igihugu cyacu kigatera imbere.

Akanyoni keza gahagaze ku giti, gafite amabara menshi atandukanye, umutuku, umuhondo, umukara, ubururu, icyatsi, gafite umunwa muremure, ni keza kabereye ijisho, buri wese yanezezwa no kukareba, akumva amajwi meza kagira.

Ishyamba rinini ry'inzitane birimo ibiti bitandukanye by'amoko menshi, harimo ikiraro kirekire bashyizeho kugira ngo abantu bajye batembera bareba ibiri hasi, abantu banezerewe bishimye uburyo barimo kandi banareba ibyiza bitatse u Rwanda, bareba hirya no hino.

Akanyamanswa gatoya ko mu ishyamba, kari mu byatsi byinshi, karahagaze karimo kwitegereza, gasa neza, gafite amahembe maremare cyane abereye ijisho, ni byiza ko twakwijya kureba ibyiza bitatse u Rwanda, tukamenya natwe ko dufite ubukerarugendo.

Inzovu nini cyane ihagaze ku nkombe y'amazi, iri kwitegereza kugira ngo ibashe gushoka, iruhande rwayo hari ibyatsi byinshi, hakurya hari ishyamba rinini cyane riri ku musozi ritoya ririmo gukura.

Inyamaswa ebyiri ziri mu mabara y'umukara n'umweru, zihagaze mu ishyamba ni nziza zibereye ijisho, zikurura ba mukerarugendo bakaza mu gihugu cyacu bakareba ibyiza bitatse u Rwanda bakadusigira amadovize igihugu cyacu kigatera imbere.

Ni byiza ko buri muryango uciriritse ugomba kugira byibura itungo rigufi mu rugo ihene, ingurube, inkoko ni nziza kuko zitanga ifumbire yihuse kandi zigakenera umuntu kuko zibyara ibyana byinshi.

Abantu bari mu ishyamba ry'inzitane, bigaraga ko ari ninjoro hatabona, bafite amatoroshi bari kumurikisha, inkoni bitwaje zituma batari busitare, bambaye imyenda yabugenewe, imbere yabo hari ubarangaje ubayobora ubereka buri hamwe bagomba kunyura kugira ngo badahura n'ibyago byo mu ishyamba.

Inyoni nziza cyane ihagaze ku rurabo rw'umutuku. Ni byiza ko twakwirebera ibibereye amaso, ifite umunwa muremure, amabara agiye atandukanye ayigize, ikurura abantu kuko wayireba uko imeze ukumva urayikunze.

Ishyamba rinini cyane ry'inzitane, hicayemo ingagi eshatu zishyize hamwe, Ni nziza kuko abanyamahanga baza mu Rwanda baje kwirebera ibyiza birutatse, bagatanga amafaranga, bityo tukaba twinjije amadovize mu gihugu cyacu.

Udukende duto duhagaze mu giti twirundanyije, dufite imirizo miremire, tubereye ijisho, dukurura abakerarugendo bakaza mu gihugu cyacu kwirebera ibyiza bitatse u Rwanda bakadusigira amadovize, bityo igihugu cyacu kigatera imbere.

Inyoni ihagaze ku giti, irimo kwitegereza, irasa neza ifite ibara ry'umweru, ibihogo ndetse n'umukara, ibereye ijisho, inyoni ni nziza kuko zigira amajwi meza atandukanye mu gihe cya mu gitondo cyangwa umugoroba.

Inyamaswa ebyiri bita impara ni nziza cyane ziri mu mabara meza abereye ijisho, zifite umugara mwiza, ziri mu ishyamba uwajya kuzireba akazisura yaberwa no kubona ukuntu ziri mu mabara meza anejeje.

Urugo rwubakishije amatafari ahiye, rurashaje, inyuma hari inzu irimo idirishya risize irangi ry'umweru, hagati harimo ibyatsi byinshi, haryamyemo imbwa bigaragara ko iri kwitegereza, iradufasha kuko nta wapfa kuvogera urugo rwacu azi ko ihari.

Inyoni nziza cyane ihagaze ku rurabo rw'umutuku, ibereye ijisho, ifite amabara atandukanye shokora, icyatsi, umuhondo, ifite umunwa muremure cyane, irimo kwitegereza, ni nziza kandi ibereye ijisho.

Mu ishyamba rinini ry'inzitane, harimo inyoni ihagaze ku giti, ifatishije amaguru yayo, ni keza cyane kabereye ijisho, gafite amabara atandukanye, umutuku, ubururu, icyatsi, n'igitaka, gafite umunwa muremure, kabereye ijisho gakurura ba mukerarugendo, bakaza kureba ibyiza bitatse u Rwanda.